Abaturage bahuriye hamwe barimo kuganirizwa ku ngingo zigiye zitandukanye, hariho umuntu urimo abaha ibiganiro, ari nk'umukuru wabo. Hari abicaye ku ntebe z'ibiti ndetse n'abicaye ku ntebe zikoze muri parasitiki.

Abacuruzi bacuruza inkweto, udukapu n'imikandara ikoze mu mpu. Hari amashati bambara ndetse n'intebe bicaraho.

Abantu bahuriye hamwe, bambaye imipira y'ubururu. Hariho umuntu ufite, indangururamajwi, igitabo ikaramu. Hariho, inanasi, ziri imbere yabo.

Abagore bihurije hamwe bakaboha udukapu. Hariho umugore urimo kwerekana udukapu bakoze turi mu mabara agiye atandukanye. Turiho umuhondo ndetse n'ubururu. Hariho n'udukoko bakoze twiza cyane, hari umugabo waje kubasura ari no kureba ibyo bakora.

Abaturage bahuriye hamwe barimo kuganirizwa n'umukangurambaga wabo. Afite indangururamajwi, imbere ye hariho akabati gateretseho ibyo arimo gusoma. Hari ibitambaro bitatse, biri mu mabara y'umuhondo n'icyatsi.

Ahantu hahurirwa n'abantu bagiye kunywa udusembuye n'utudasembuye, bakarya, bakanywa, bakishima. Hariho icyapa kinini kibaha ikaze.

Ikirango cyanditseho 5, kiranga inzoga banywa, kimanitse ku nzu.

Amacupa manini arimo ibinyobwa bigiye bitandukanye, bifasha abantu kugira akanyamuneza.

Inzu y'ubucuruzi icuruza ibintu bigiye bitandukanye harimo ibikoresho by'isuku ndetse n'ibyo kurya, harimo amabase, indobo ndetse n'ibikoresho byifashishwa n'abakobwa mu gihe cy'imihango, hariho ikinyabiziga gitwara ibintu kibivana ahandi ari cyo igare.

Utubuni tumanitse hejuru turimo amavuta, hepfo yaho hariho amajyane ari mu gashashi, hariho icupa ririmo ubuki, hariho ikaziye irimo amacupa ya fanta.

Igikoresho cy'isuku kifashishwa n'abakobwa mu gihe bari muhango. Kirapfunyitse, kiri mu gashashi kameze neza, gifasha abakobwa kugira ngo dakwirakwiza umwanda mu gihe cy'imihango.

Ameza akozwe mu mbaho. Yifashishwa mu gihe umuntu agiye kurya ndetse n'igihe arimo kwandika.

Ikarito irimo ibibiriti byifashishwa mu gutanga umuriro, bagatekaho ibiryo bigashya bakabirya. Urarasa hakaza umuriro ugateka bigashya.

Iduka ricuruza ibintu byinshi bigiye gutandukanye, aribyo ifu, umuceri, ibirayi, ibitungururu, bombo, zo kunyunya ndetse na shikarete. Harimo inkweto zo kogeramo ndetse n'imbabura yo gutekaho.

Iduka ririmo imyenda ndetse n'ibikoresho gakondo, imyenda irimo kugurwa n'abaturage ariyo ubipakapu, imipira ndetse n'utwibo twiza turi mu mabara y'umukara n'umweru.

Inzu nini, isa neza. Ni urusengero rwifashishwa n'Abakiriristu mu gihe cyo gusenga. Rufasha abantu kuza kwihana ibyaha ndetse bakitagatifuza. Imbere yaho hateye indabo nziza, zisa neza.

Abaturage bahuriye hamwe harimo abana, abakuru, abagabo, abagore, abahungu, abakobwa, bavuye gusenga mu rusengero, urusengero ruriho umusaraba ndetse imiryango yarwo irakinguye.

Urusengero rwiza ruganweho n'abantu babakirisito bagiye kumva ijambo ry'imana ndetse no kwitagatifuza, hanze y'urusengero hari ubusitani bwiza ndetse na kandagira ukarabe ibafasha koga intoki.

Abaturage bahagaze mu ruziga imbere yabo hariho abandi bari ku murongo ugororotse, hejuru yaho hariho ibikinisho by'abana ndetse n'amatara.

Inzu nini, iganwaho n'abantu, bagiye gufata ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, hari imitaka myiza, bicaramo bikinga izuba, mu gihe izuba ryaba ryinshi, hari indabo nziza n'ubusitani bwiza.

Icyumba kinini kirimo uburiri bushashe neza baryamamo abantu barimo kuruhuka .Harimo intebe nziza bicaraho mugihe barimo kuganira, hariho ameza baterekaho ibintu.

Icyumba kirimo: akabati, ameza ndetse n'igikoresho bifashisha mu gukondesha ibintu, harimo igikoresho bifashisha mu gufunga no gufungura televiziyo.

Inyubako nziza ya etaje, yubatse neza, isa neza, imbere yaho haparitse imodoka, hariho n'ubusitani bwiza wakwicaramo mu gihe urimo kuruhuka.

Isoko ririmo ibyo kurya bigiye bitandukanye, hariho ibitoki ndetse n'ibikoresho bifashisha mu gusukura amazu. Hariho umumotari utegereje gutwara abantu bamaze guhaha.

Isoko ririmo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye, isabune, amavuta, amakayi, umuceri, harimo abacuruzi n'abaguzi, harimo igikoresho bifashishwa mu gutwara ibyo bicuruzwa byabo.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo imyenda, udukapu ndetse n'ibindi hari umubyeyi barimo kubicuruza, iruhande rwaho haparitse moto yifashishwa mu gutwara ibintu ibivana hamwe ibijyana ahandi.

Isoko ririmo imyenda igiye itandukanye, ariyo imipira ndetse n'ibitenge by'abagore byo kwifubika, hariho umukobwa wambaye ingofero iri mu mabara agiye atandukanye ari yo: umutuku, umukara ndetse n'umweru, afite umufuka mu ntoki.

Umuhanda urimo kugendaho ikinyabiziga gitwawe n'umuntu ufite umutwaro, awushyize imbere ye, hariho ingofero atwaye mu ntoki ndetse n'iyo yambaye. Ingofero imufasha kwirinda kwangirika umutwe mugihe akoze impanuka.

Umuhanda urimo kugendamo umuntu ufite ikinyabiziga aricyo igare. Gihetse imifuka irimo umuceri ndetse n'amakarito arimo ibintu bitandukanye.

Umuhanda urimo kugendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ari byo moto ndetse n'imodoka. Zihetse abantu, zibavanye hamwe zibajyana ahandi ndetse hari n'abaturage barimo kugenda, bava ahantu hamwe, bajya ahandi, bakoresha amaguru.

Umuhanda urimo kugendwaho n'ikinyabiziga, ikinyabiziga gitwaye abantu babiri bambaye ingofero mu mutwe, zibafasha kwirinda mugihe habayeho impanuka, hariho umugenzi urimo kugenda yifashishije amaguru.

Ipikipiki yifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu, ibavana ahantu hamwe ikabajyana ahandi, hicayeho umugabo arimo kuyitwara.

Ikinyabiziga gitwaye abagenzi. Imbere yaho hariho imodoka nayo itwara abantu ibavana hamwe ibajyana ahandi. Hariho amazu meza y'ubucuruzi ateye amarangi y'umweru hariho icyapa cy'ubururu.